Abapolisi b'u Rwanda bari mu mazi, bakoresheje ubwato bacunga umutekano w'abaturage bakoresheje ubwato mu mazi menshi.

Polisi y'u Rwanda iri kwerekana uburyo bwo kuzimya cyangwa se gukumira inkongi yabaye. Abicaye barakurikira amahugurwa, hanyuma hakabaho uhagaze afite ameza ateretseho gaze n'isafuriya, mu kugaragaza uburyo bwose bwo gukumira n'ubwo kwirinda inkongi y'umuriro.

Imodoka itwaye imizigo, yamizigo ikaba iri hejuru kuri bagaje, muriyo harimo ni igare ndetse n'ibindi bigaragara ko bigiye ahantu ikambi.

Kamera ziri ku muhanda zigaragaza ko zicunga umutekano, aho zibasha kubona ibiri gukorwa byose. Aho izi kamera zibasha kugera kubasha kumenya niba ibikorwa ari ibi bigenewe gukorwa cyangwa niba atari byo byari bigenewe gukorwa.

Abadaso bazwi mu nshingano yo gucunga umutekano, ni urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano. Barimo abagabo n’abagore, bambaye impuzankano yabo, bari mu nama cyangwa se amahugurwa, bicaye neza mu buryo butuma bumva ibyo bari kuvuga.

Polisi y'u Rwanda mu bukangurambaga bwa gerayo amahoro, aho berereka abaturage uburyo bwiza bwo kugenda mu muhanda ndetse no kubereka uburyo ki bagerayo amahoro n'ibyo bagomba gukurikiza kugira ngo umuhanda ukoreshwe neza akanawubagereyo amahoro. .

Abasirikari bari ku karasisi bambaye imyenda ya gisirikari, bafite inkota mu ntoki kandi intoki zabo zambaye ga z'umweru, ingofero zabo ni icyatsi kibisi kiriho ikirango cy'igihugu.

Abakora irondo ry'umwuga bambaye imyenda y'impuzankano iri mu ibara rya kaki n'ingofero ndetse na bote ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Barikumva amabwiriza bari guhabwa n'umuyobozi wabo kugira ngo umutekano baze kuwucunga neza.

Umusore uri kugenda mu muhanda ari kwitaba telefone. Yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umweru, n'agapira k'umukara gafite amaboko atukura. Ari mu muhanda wenyine, nta kinyabiziga kimukurikiye, nta n'undi mugenzi bari kumwe.

Umupolisi uri mu muhanda gutanga icyerekezo cy'ibinyabiziga, yambaye umwenda w'akazi, uri mo ibara ry'umukara, hejuru hakaba ijaketi iri mu ibara ry'icyatsi. Ari kugaragaza icyerekezo kirakoreshwa kugirango ibiyazemuhanda bigende neza.

Polisi y'u Rwanda iri gutoza izi mbwa ziyifasha mu nzego z'umute, mu rwego rwo gucunga umutekano. Gusaka no kumenya ko nta bitari ngombwa, umuntu agiye kwinjiza ahantu runaka.

Abantu bari mu mahugurwa cyangwa se mu nama, bakaba bakurikiranye uko inama iza kugenda biteguye no gutanga ibitekerezo byatuma iterambere ryaho bari, aho batuye n'aho bakorera rigenda neza.

Abantu bamaze guhugurwa, bagahabwa ibyemezo by'amahugurwa bakurikiye, bakaba barimo abaturage bakaba bahawe izi seritifika n'inzego bwite za leta hakaba harimo n'abashinzwe umutekano n'ingabo na daso.

Umuyobozi uri kuyobora ibiganiro bitandukanye bijyanye n'iterambere, aho bigaragara ko ari gutanga ubutumwa bw'impinduramatwara bwatuma abamukurikiye babasha kunguka no gushyira mu bikorwa ibintu byateza imbere umuryango mugari.

Abaturage barikumva inama bahabwa n'abayobozi babo, bakumva impanuro zose bahabwa. Kugira ngo bazazishyire mu bikorwa, ndetse bakaba babaza ibibazo bikibangamiye, iterambere ry'imibereho yabo.

Abaturage bitabiriye inama, aho bari kumva impanuro bari guhabwa n'umuyobozi w'ingabo, bari kumwe n'umuyobozi w'aho ngaho batuye. Bari kuganira ku byabateza imbere no ku byabubaka uburyo bakwirindira umutekano.

Ababyinnyi mu njyana gakondo z'umuco nyarwanda, mbere hari abasore cyangwa abahungu bapfukamye bateze amaboko. Nyuma hari abakobwa bahagaze nabo bateze amaboko mu buryo bwo kubyina bagasusurutsa ibirori.

Abavuzi b'ingoma bambaye imishanana y'ubururu kandi barishimye cyane. Ni abadamu bameze neza, basusurutse ku buryo bagamije no gususurutsa ababareba, bari hano mu gitaramo.

Ababyinnyi b'umuco b'injyana z'umuco nyarwanda, injyana za gakondo, bakaba bambaye imyenda tuzi nk'imikenyero iri mu ibara ry'umweru, bakaba bateze urugori mu mutwe, kandi basusurutsa abareba.

Ababyinnyi mu buryo bw'umuco nyarwanda. Bari kubyina imbyino zizwi nk'imbyino z'intore. Yasimbutse cyane afite icumu mu ntoki, akagira n'ingabo aho yambaye neza imyenda y'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umuco nyarwanda ugaragazwa n'igisabo, inkongoro ku ruhande, igisabo kirajishe kiri nkoko no ku ruhande hari inigi zirimo amasaro mu ibara ritandukanye umutuku ,ubururu n'icyatsi kibisi.

Imbyino gakondo z'umuco nyarwanda zizwi nk'intore, aho intore ziri kubyina zisimbuka, zifite amacumu mu ntoki zikagira n'ingabo, hanyuma mu maguru hakabamo inzogera.

Imitekere yo mubwoko bwa Kinyarwanda bakoresheje runonko irimo ibiryo iri kuziko ndetse bakoresheje inkwi baragenda benyegeza kugira ngo ibiryo bishye bagaburire umuryango.

Umupapa cyangwa umubyeyi w'umugabo usokuje mu buryo bw'umuco nyarwanda, wambaye mu buryo bwa kinyarwanda, aritegereza kandi anatekereza ibyateza imbere abanyarwanda cyane cyane mu muco.

Inzu ya kinyarwanda isakaje ibyatsi, igashishishwa cyangwa se ikaba ifite imbariro z'ibiti n'ibyondo. Imbere yayo hakaba hari ibirayi, ubuhinzi bw'ibirayi, bikaba biri hafi n'ibirunga.

Imbyino z'umuco nyarwanda, aho ababyinnyi bambaye imikenyero, imishanana, biri mu darapo ry'igihugu, mu bwoko bw'icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu. Harimo n'umunyamahanga wabasuye kandi na we ari gukoma ingoma yishimye.

Ikirago kiboshwe mu buryo bugezweho, mu mabara atandukanye, ibara rijya kuba umweru n'ibara ry'umukara, harimo dizayine zitandukanye, kikaba kirambuye ku mucaca, aho umuntu abasha kugikoresha yicaye cyangwa yanika ibyo ashaka kwanika.

Intore zikubyina mu muco wa gitore, zifite icumu mu ntoki, zifite imyambaro ya kinyarwanda igaragaza umuco w'ubutore, umutwe wabo, ku mubiri ndetse n'uburyo basimbuka binogeye ijisho ry'bareba izi mbyino.

Ababyinnyi mu njyana gakondo z'umuco nyarwanda b'abakobwa baserutse neza, bambaye imikenyero iri mu ibara ry'umweru n'umwitero uri mu ibara ritukura, hanyuma amasengeri yabo arimo ibara ry'umweru.

Ababyinnyi b'intore bambaye amasari, bakambara amayogi ,hejuru bakaba bafite ingabo mu ntoki n'icumu, zibafasha guseruka mu muco wa kinyarwanda bagasusurutsa abitabiriye ibirori.

Ibiryo bya kinyarwanda byitwa ibihaza bivanze n'ibishyimbo harimo nicyo twita ikidodoke biri ku isahani biteretse ku kirago kandi biryoheye ubireba n'amaso kandi ubizi waba witeguye kubirya.

Imyitozo ngororamubiri iri mu bwoko bw'umuco nyarwanda, uzwi nko gusimbuka urukuramende ngaha mugabo arasimbuka bitewe n'intego yihaye kandi rwose yarurebeye ari mu kirere cyane.

Abana b'abanyeshuri bari kwiga injyana gakondo, kuzicuranga bakaganira bakoresheje ibyuma kugirango amajwi yabo ajyere kure, bambaye imikenyero barayiteye kugira ngo bijyane n'umuco bari kwizerahiza.

Abaturage barimo n'inzego z'umutekano, bitabiriye umuganda, bari gukoresha amasuka basiza cyangwa se baharura umuhanda, kujirango babone inzira nyabagendwa izajya yifashishwa n'abagenzi, kugira ngo bagere iyo bakeneye kujya.

Intore ziri kubyina zambaye neza amayogi ,zambaye imyenda ya gitore, mu ntoki harimo icumu n'ingabo, mu mutwe harimo ibibafasha kugira ngo ubutore bwabo bukomeze guhama.

Resebusiyo y'ubukwe, aho ameza ateguye neza, hari ibirahuri ku meza, birafasha abantu bari kwiyakira kubasha kunywa ikinyobwa cyabagenewe no guhindura ikirahure kandi bakanezezwa n'ibirori by'ubukwe bitabiriye.

Ububoshyi buteye imbere bukoresheje indodo za kijyambere, bakaboha agaseke kari mu mabara y'umweru n'umukara, kano kifashishwa nk'umutako w'ubwiza, yaba muri saro, yaba no mu cyumba, bitewe naho ushaka.

Igikoresho kizwi nk'agapaniye, agapaniye gakora mu buryo butandukanye aho ubasha gushyiramo ibyo bateguye mu rugo mugatereka ku meza cyangwa ukajya guhaha ku isoko ukagahahiramo gakozwe mu bwoko bw'imigano kandi kaboshye neza.

Inka zizwi ku izina ry'inyambo, ziteze neza amahembe maremare, ndetse ziba zisa n'izitabyibushye cyane, ariko zikaba ziri mu gace zikunda kubarizwa mu gace k'iburasirazuba mu karere ka nyagatare.

Ubuhinzi bw'imboga z'isombe ,izi mboga ziraryoha zikoreshwa n'abantu bashaka kugira amaraso meza, cyangwa abagore bashakako mubona amashereka, urazisya ukazivanga n'ibirungo ukaziteka ubundi ukazirisha umuceri.

Umubyeyi uteruye umwana we, ari kumureba neza akamwitegereza, akareba uburyo ari mwiza, agashaka kumuganiriza bitewe n'uburyo abona umwana akomeje kumunezeza nk'umwana yabyaye.

Ababyinnyi mu njyana gakondo z'umuco w'abanyarwanda n'abakobwa cyangwa se abadamu bateze amaboko bambaye ikinyarwanda bari gususurutsa abaje kwitabira ibirori by'ubukwe.

Umubyinnyi mu njyana y'intore yambaye amayogi no mu mutwe yambayemo ibituma ahamezeze nk'intore, afite icumu n'ingabo mu ntoki. Ari kugenda mu buryo bugezweho kandi bugaragaza ko ari injyana y'intore.

Ubuhinzi bw'amasaka ageze mu gihe cyo guterera. Ameze neza. Bigaragara ko umusaruro wayo ari mwiza ndetse cyane. Aho abahinzi bishimira ibyagezweho kandi bagashima n'ubuhinzi ko bubateza imbere.

Ikigage cyangwa umusururu. Uri mu kibindi hanyuma hakabamo n'imiseke abantu babasha gukoresha bari kunywa. Ikigage cyenzwe mu buryo bwa kinyarwanda kandi gikundwa n'Abanyarwanda benshi hirya no hino mu cyaro.

Inkono cyangwa se ibibindi bya kera byakoreshwaga n'abanyarwanda mu kugira umusururu yaba uwenze uhiye cyangwa se udasembuye hanyuma abantu bagakoresha bari gusoma ku ntango mu bijyanye n'umuco nyarwanda

Ingoma yifashishwa igihe bayikoma bari kubyina imbyino z'umuco nyarwanda izi tuzi ku izina rya taradishono densi. Iri hejuru y'agatebe ka kinyarwanda nako kazwi nk' agasongabugari.

Ibikoresho by'umuco nyarwanda harimo ikirago, inanga, igisabo, inkongoro, umuhoro, igisobane, ingoma hirya yaho hakabaho n'umudaho ndetse hakabamo n'intore.

Ubworozi bw'inzuki ziri mu muzinga aho umuvumvu yaje guhakura akoresheje yambaye imyenda ituma inzuki zitamurya, igisurubeti ingofero n'ishashi ibi byose n'ibimufasha kugira ngo ahakure kandi neza.

Kogoshwa amasunzu mu buryo bumwe bw'imideli mu myogoshere y'Abanyarwanda, ikaba uburyo butuma umuntu amurika umudeli we bitewe n'uko yabihisemo, cyane byakundaga gukoreshwa ku Banyarwanda ba kera, uyu munsi simbibona cyane.

Ibijumba biteguwe kotswa muri runonko, kandi umuriro urimo uraza gufasha no hejuru kugira ngo bishye neza, hanyuma uwabyukije abashe kubirya bimeze neza.

Ababyinnyi mu njyana z'umuco nyarwanda zizwi nka danse taradisiyoneri, abana b'abakobwa barapfukamye, bakenyeye imishanana, bambaye inkweto ziborohereza kubyina, bateze n'amaboko mu buryo bunogeye amaso.

Ababyinnyi b'intore z'urwanda bafite amacumu mu ntoki n'ingabo barahamiriza, k'uburyo abantu bari kubareba banezerwa kandi bakishima bitewe n'uko bari gutanga ibyishimo.

Umuco nyarwanda ugaragaza uducuma n'imiseke yo kunyweramo, ukagaragaza ibirago biboshye biri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, ibiseke biri mu mabara atandukanye: umukara n'umweru n'ibara ritukura.

Inanga gakondo iri kwigwa cyangwa uri gucurangwa n'umuntu runaka, akoresheje uburyo bwe amaboko ye yombi.

Umuco nyarwanda ugaragazwa n'uducuma, inanga, ndetse n'umuntu wambaye mu buryo bwa kinyarwanda, burimo umushanana n'umwitero, ari gukoma inanga ku buryo butuma asusurutsa umwumva mu njyana gakondo.

Ababyinnyi mu njyana gakondo y'umuco nyarwanda basimbutse cyane bari mu kirere, bambaye imyenda y'umuhondo n'imikenyero, udupira ni umukara ,ndetse no hasi bambaye imyenda ya kinyarwa inkweto za kinyarwanda zizwi nka rugabire.

Ikirago kiri mu muco nyarwanda kiboshye neza, gifite amabara arimo umuhondo n'umukara, hirya yacyo hakaba hariho umwana w'umukobwa, wambaye mu buryo bwa kinyarwanda, uri gutoza cyangwa gutozwa umuco nyarwanda.

Mu muco nyarwanda umubyeyi ari gusuka ibishyimbo ku ntara abikuye mu gaseke, kandi iyo ntara ikaba iteretse ku kirago, hirya y'iyo ntara hariho ikindi giseke kigaragaza umuco wacu w'abanyarwanda.

Umuco nyarwanda ujyane no gukora ibitebo, igitebo bikorwa babanje gukanyaga imigozi, nyuma yaho bakazahomaho amase mu buryo butuma igikoresho kitabasha gusaza vuba kubera ko baba bagihomye amase.

Umuntu uri kunywa itabi akoresheje inkono y'itabi nta mwenda yambaye ndetse yitwikiye igikoresho gisa nigikoresho cya kera abantu bari bazi ku izina ry'ingobyi gikoze neza mu buryo bwa kinyarwanda.

Ababyinnyi mu muco w'intore bambaye muri bo kinyarwanda, bafite amacumu mu ntoki, barasimbuka neza, barishimye bafite n'ingabo mu kuboko ku ibumoso.

Kugosora imyaka ivuye mu musaruro w'ubuhinzi， aho umudamu cyangwa umukobwa uri kuyigosora， akoresha intara ndetse agakoresha uburyo bwo guhuha，kugira ngo imyanda itandukanwe n'umusaruro ubasha kubikwa.

Abantu babiri bari gukina ibyo twita igisoro mu muco w'abanyarwanda. Umwe muri bo yambaye ingofero nu musaza undi aracyari umusore kandi asokoje mu buryo bwa kinyarwanda, bicaye ndetse ku ntebe za kinyarwanda.

Ibikoresho bya kinyarwanda byo mu gikoni bikaba bikozwe mu buryo bwa kinyarwanda nk' akamamiyo, agasekuro, n'ikindi kijyanye n'aho watereka agatase, agasutasi.

Umuntu nyarwanda wambaye nk'umuco w'Abanyarwanda cyane mu gihe cyahise ni ko bambaraga. Yicaye ku gatebe ka kinyarwanda uyu munsi abenshi bakazi nk'agasongabugari. Yambaye muryo butuma atica umuco nyarwanda.

Ababyinnyi mu njyana gakondo z'umuco nyarwanda bambaye imishanana iri mu mabara y'ibendera ry'igihugu n'ubururu icyatsi kibisi n'umuhondo. Bari gukoma ingoma mu buryo bususurutsa abumva imbyino zabo.

Abantu bari mu njyana gakondo z'umuco nyarwanda, aho bari kurasa cyangwa se gufora bakoresheje imiheto yabo. Hejuru nta kintu bambaye, hasi bambaye urubindo.

Inzu isakajwe amategura yo mu bwoko bwa Kinyarwanda iri muri zimwe za kera Abanyarwanda bagiraga bataramenya isakaro rigezweho nk'amabati.

Inka z'inyambo ziteze neza zirimo amabara atandukanye harimo:ibara ry'uruhogo, umukara ndetse ziri mu muhanda ku buryo zigenda neza, zikunda kuba mu gace k'um'urambi nka za Nyagatare niho zikunda kuba muri iki gihugu cyacu.

Intebe ikoze mu migano, imigano ni ibiti biva mu ishyamba hanyuma bigakoreshwa ibintu bitandukanye, aha ngaha rero yakoreshejwe mu bwoko bw'intebe, imbere yayo hari umwagenti wa emutiyene, atanga serivisi za mobayiro mani no gutanga amayinite.

Umurima urimo igikebo, hejuru yacyo hariho insinga z'amashanyarazi kandi ni ahantu hadahinzwe, aho bigaragara ko ari umurima utarakoreshwa na ba nyirawo.

Inzu y'uruganda itunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi, cyane ubuhinzi bw'ibigori, aho babasha gusya ibigori bikavamo ifu, yaba iya kawunga hanyuma abaturage bakayikoresha ibamereye neza.

Umukecuru uri kugenda afite gahunda yo kujya kwaka serivisi ku nyubako cyangwa se aho ibiro bya Leta bikorera. Yitwaje akabando afashe agakapu mu ntoki ndetse yambaye masike mu buryo bwo kwirinda ibyamuteza umuyaga.

Inzu izwi nk'icyumba mpahabwenge, haba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mudasobwa ,yo mu bwoko bwa desktop. Hakabamo ameza afasha umuntu kugira ngo asome neza bitamugoye, kandi atunamye.

Insinga z'amashanyarazi zijyanye umuriro ahatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu, aho zifasha abaturage kubona urumuri rukomoka ku mashanyarazi bitabagoye kandi bakabasha kubona neza mu nzu zabo, no gukora ibikorwa byifashisha amashanyarazi.

Inyubako ya kiliziya yakira abakirisitu baje gusenga, aho bano bakirisitu basohotse mu rusengero, muri kiliziya ,hariho ababikira, hariho abanyeshuri, hariho abantu mu ngeri zitandukanye bavuye muri iyi kiliziya.

Urusengero rw'abahamya ba yehova rurafunze ariko rwubakishijwe amategura kandi hanze hari ibiti by'indabo kugira ngo bizane impumuro nziza kuri uru rusengero.

Inyubako ya kiliziya yubatse neza ifite korotire yo mu bwoko bwa giriyaje, hanyuma ikaba ifite n'amatara hanze, hateye n'ibiti bituma haboneka umwuka mwiza.

Inyubako igezweho ikozwe mu buryo bwa etaje igeretse, igeretse mu nshuro enye, kandi etaje zirarebana, aho abaturage bayituyemo mu buryo bwo kugabanya ubucucike no gukoresha neza ubutaka.

Ubusitani bumeze neza, aho harimo umucaca, hakabamo inzu yubatse neza, mu buryo bugezweho bwa kijyambere, isakaye neza mu buryo butuma itava, kandi itanga serivisi zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibikona binini mu mpande zawo, ukaba ari igitaka uruhande rumwe igitaka kirashaje, ahandi ni uruhande rw'igitaka batrubakira.

Inyubako ya Leta igaragaza ahatangirwa serivisi. Hariho umuturage uri kugana ibiro by'inyubako kugira ngo ahabwe serivisi. Imbere y'ibi biro hariho ibendera ry'Igihugu riri mu mabara atatu. Icyatsi n'umuhondo, n'ubururu ndetse n'izuba.

Inzu ya Hangari ,aho isakaye gusa. Mu mpande ikaba nta bintu birimo. Nta kintu ibitse, iri ahantu mu mucaca. Bigaragara ko itegereje kubikwamo.

Amazu yubatse neza mu buryo bw'umudugudu, yubatswe asakaje amabati atukura, mu mpande ni amatafari, inzugi n'amadirishya ni metarike ziri mu mabara y'umweru.

Inyubako zigezweho zubatswe ku buryo bw'umudugudu w'ikitegererezo, aho zikura abaturage mu manegeka kandi zigatoza abantu ku ubutaka bukeya, ibikorwaremezo bikabageraho neza kandi mu buryo bwihuse.

Inyubako nziza ziri mu marangi y'umweru, zubatswe mu buryo bwa etaje. Zigaragaza ahantu heza hasobanutse, hafite ikibuga cyiza na parikingi nini, kugira ngo abahagana babone serivisi nziza zibanogeye.

Abubatsi bavuye mu mirimo y'ubwubatsi， bakaba bambariye ibikoresho by'akazi，harimo n' ingofero， amajire，bakaba bari kuganira uko akazi kagenze， muri bo harimo n'umudaso，uri kureba ko umutekano ugenda neza.

Inyubako za reta zigaragaza ikigonderabuzima, aho abafite uburwayi cyangwa izindi serivise z'ubuzima bacyeneye bajya kuzishakira, ni inyubako yubatse neza, isakaye kandi ikomeye.

Abamotari ni ukuvuga abatwara abagenzi bakoresheje ikinyabiziga cyitwa moto, baraparitse bategereje ko babona abagenzi bagatangira akazi. Baparitse imbere y'isoko, y'inzu nini ya etaje izwi nk'isoko rya Goyiko.

Inteko y'abaturage bari kumva ibyo babwirwa n'umuyobozi kandi baba bashyize hamwe mu kureba ibyabateza imbere aho batuye n'igihugu muri rusange.

Abaturage bari kumva impanuro z'umuyobozi，kandi higanjemo abadamu， n'uwo ubaganiriza na we ni umudamu cyangwa umukobwa. Bateze amatwi bategereje gufatira hamwe ingamba z’icyabateza imbere.

Abaturage bari mu nama aho baganira n'ubuyobozi bagatanga ibitekerezo ku cyakorwa, cyangwa ku cyabateza imbere bisanzuye bishimye barimo ingeri zitandukanye abagore, abagabo nurubyiruko.

Abaturage bari mu nama bari kuganira ku iterambere ry'igihugu ku bibangamiye iterambere ryabo, ndetse bakunganirana uburyo byakemuka. Bitabiriye ari benshi kandi bategereje imyanzuro iza gufatwa.

Abayobozi bari kwakira umuturage ufite ikibazo, ndetse akavugana impapuro z'ikibazo afite, akaba biteguye kugisesengura no kucyumva hanyuma bakamukemurarira ikibazo.

Abanyeshuri bari mu bukangurambaga, bw' uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho bafite banderore, igaragaza abatari yumani rayiti, endi Rwanda awuti, bambaye imyenda y'ishuri yo mubwoko bw'icyatsi kibisi n'imipira yo mu bwoko bwa oranje.

Abaturage biganjemo abagore bari kumva cyangwa ari abitabiriye inama bari kumva ibyo bagezwaho bijyanye n'inama yuyu munsi, bateze amatwi kandi bafite amatsiko yo kumva impanuro.

Abaturage bitabiriye inteko y'abaturage, aho bari ku murongo bari kubaza ibibazo bitandukanye bijyanye n'ibyo bafite mu miryango yabo, ndetse bagatanga n'ibitekerezo byatuma umuryango nyarwanda ukomeza kwiyubaka.

Imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa virunga irimo abagenzi bagiye hirya no hino bavuye mu mujyi wa Musanze berekeje mu cyerekezo bahisemo kujyamo . Bagiye n'iyi modoka itwara abagenzi yitwa virunga.

Umusaza uri ku igare, ari kugenda mu muhanda w'igitaka, atwaye umusaruro ku igare kandi nawe akaba yambaye imyenda yoroheje, imufasha kugenda kuri iri gare.

Urujya n'uruza rw'abagenzi harimo umubyeyi utwaye ibicuruzwa ku igare biri mu gitebo, akaba undi mubyeyi utwaye isombe iri ku nkoko n'abandi batatu bari mu muhanda bareba urujya n'uruza rw'aba babyeyi baje ku isoko.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa purive, ziri mu bwoko bwa Yegokazi ni tagisi vwatire, ziri ku biciro bitandukanye, uragenda ukabaza, hanyuma bitewe n' aho ushaka kujya bakaguca amafaranga.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izwi ku izina rya kwasiteri ibasha kujyamo abagenzi barenze makumyabiri, bagenda bicaye neza bisanzuye batabyigana, kandi batuje.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziri mu muhanda zifite ibyerekezo bitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abagenzi mu muhanda, ariko na bisi ziri gutwara abagenzi, mu buryo butuma bagera iyo bagiye.

Abamotari ni ukuvuga abakora umuga wo gutwara abagenzi kuri moto, bari kwakira abakiriya bakabaha kasike ngo bambare mu buryo bwo kwirindira umutekano ,ndetse bakabategereza kugira bajyeho neza babashe kugera iyo bagiye neza.

Abatwazi b'amagare batanga serivise zo gutanga umunyenga bakoresheje amagare, ni abahungu cyangwa abagabo batwaye aba mama ku magare yabo babajyana mu cyerekezo bakeneye kujyamo.

Gare ya Rubavu imodoka isohoka mo ni imodoka ya minibisi. Itwaye abagenzi hanze hari igare umunyonzi ari kurigendaho, ndetse harimo urujya n'uruza rw'abagenzi muri iyi gare.

Isantere irimo moto zizwi nka lifani ni moto zibasha gutwara ibintu byinshi ndetse igatwara abantu babiri, aho uyiyobora ayitwara ndetse akaba yabasha gutwara undi mugenzi umwe, ariko inyuma hakajyaho ibyo uwo mugenzi yahashye.

Imodoka yari Litiko itwara abagenzi mu buryo rusange, iri kugenda mu muhanda iva mu cyerekezo kimwe cy'igihugu ijya mu kindi cyerekezo kugira ngo ihe serivise abagenzi.

Imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, ziri mu bwoko bwa kebi esi ziri ku murongo muremure cyane. Bigaragara ko zatwaye abagenzi, cyangwa se ziraparitse zamaze gukuramo abagenzi.

Abanyonzi b'amagare batwara abagenzi bakoresheje igare, igare ryaba rifite umusego bituma umuntu yicaraho ntaribwe kandi bano bagenzi barareba hirya no hino kugirango barebe ko babona abakiriya bavuye mu byerekezo bitandukanye.

Mu ndege aho abagenzi bahabwa serivisi, ndetse utanga serivisi akaba arimo arareba ko bagenzi bamerewe neza, babakira neza baseka ndetse yiteguye kumva icyo bamubwira ndetse akaba yababasubiza.

Imodoka zitwara abagenzi muburyo bwa rusange ariko zikaba ari ntoya ku buryo abantu batarenga batanu muriyi modoka zifite ibara ry'ubururu kandi ziri kumurongo umwe kuburyo butuma umuhanda ukoreshwa neza.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho izwi ku izina rya ireme emvesiti. Kandi ikaba itwara abantu bagera, barenga mirongo itanu, hagati ya mirongo itanu na mirongo inani.

Abatanga serivisi zitwara abagenzi kuri moto aho bagenda mu muhanda. Ariko bakaba bahuye n'umunyamaguru bakamuha umwanya wo gutambuka, kugira ngo nawe abashe kugera iyo ahajya amahoro.

Gare irimo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, tubamo urujya n'uruza rw'abantu. Imodoka zitandukanye zirimo Kigali koci, zirimo Yaho, zirimo Ruhire egisipuresi, zose ziriteguye kugira ngo abagenzi bajye mu cyerekezo bakeneye kugeramo.

Abasore babiri bambaye impuzankano y'igisurubeti bari muri koperative, batewe inkunga na Arasiye, bakora ubucuruzi butandukanye bifashishije ikinyabiziga cya rifani kizwi nka moto.

Abakinnyi ba futubolo ariwo mupira w'amaguru ku makipe yombi, ikipe y'isonga yambaye umupira w'umuhondo n'indi kipe bigiye gukina yambaye umupira w' umweru.

Imipira ikoreshwa muri basiketi, aho abakinnyi bayo bari mu tugare bafite ubumuga ariko imipira ya basiketi, bayifashe mu ntoki muburyo bugaragara ko bakina futuboro.

Umuntu uri gukora siporo wambaye supuresi, ikabutura, umupira, ari ku kibuga cya sitade aho gitunganijwe neza, kandi kimufasha mu buryo butuma akora imyitozo ngororamubiri.

Umukinnyi wa tenisi afite igikoresho akoresha akina uyu mukino, hari aka bale arimo akina gafite ibara rya oranje, yambaye imyenda iri mu ibara rya oranje n' ikabutura y'umukara.

Umuntu uri muri siporo akoresheje igare, akaba yambaye ibikoresho byose by'ingenzi bimufasha kugirango akore siporo neza, yambaye ari kugenda ku igare, yambaye inkweto, ipantaro cyangwa ikabutura, umupira n'ingofero byose bimufasha kugirango iyi siporo ayikore neza.

abakinnyi mu bwoko bwa siporo bari ku kibuga cya basiketi, bariteguye kandi bafite gahunda yo guhabwa amabwiriza agenga umukino mu buryo butuma bakina neza kandi bagakina mu buryo bwa gishuti.

Siporo yo mu buryo bugezweho， aho abayikora bari kugaragaza ibikombe bakoreye， batsindiye， barimo abahungu n'abakobwa mu ngeri zitandukanye，ikigero cy'imyaka gitandukanye， ku buryo bose banogewe cyangwa bashimishijwe n'ibyo bagezeho

Umukinnyi wa tenisi afite agakoresho akoresha akina tenisi imbere ye hari boro ashaka gukina ndetse yambaye imyenda imufasha gukora iyi siporo. Ikabutura y'umukara n'umupira wa move, ameze neza ari fiti.

Ikipe ya basiketiboro y'abakobwa y'iguhugu c'u Rwanda, bambaye jezi ziri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi kibisi, umwe barapfukamye abandi barahagaze inyuma yabo.

Abantu b'urubyiruko batandukanye bishimye bari kwishimira ibyagezweho, bambaye amapantaro y'umukara n'andi y'amakoboyi hejuru bambaye imipira y'icyatsi irimo ikarita igaragaza Afurika.

Ubwoko bwa siporo imwe ikoresha igare, aho umwana w'umukobwa ari kunyonga igare, areba mu cyerekezo ajyamo akoresheje igare, yambaye ingofero n'agapira n'ikabutura, ndetse n'umwenda wa siporo ku nkweto, bimufasha kunyonga igare neza.

Imyitozo ngororamubiri ifasha abadamu n'abakobwa kugororoka. Baza bambaye imyenda ya siporo, ibafasha gutuma siporo bajemo ikorwa neza, kandi mu buryo bubagirira umumaro.

Umuntu uri muri siporo yo kongera ibiro no gukomeza imitsi n'mikaya , yambaye ipantaro ya siporo , inkweto za siporo, hejuru nta kintu yambaye . Ari gutera intambwe ndende bigaragara ko afite imbaraga kandi ari kwihuta.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi vatire y'akagera, itatse amabara atandukanye, umweru, umutuku, itwara abagenzi bakeya batarenze bane, mu muhanda w'igitaka, ivumbi ni ryose.

Irushanwa ry'amagare ,aho abantu bari kunyonga amagare mu muhanda bakoresheje igare, bakambara imyenda ya siporo kandi bari kugenda mu muhanda ufite urukuta rutubakiye, aho hirya no hino hari abantu bari kubareba mubyo barimo.

Umukino w'isiganwa ry'amagare, aho abasiganwa baba bahiganwa bakoresheje kunyonga igare, bambaye imyenda ibafasha mu buryo bwa siporo n'inkweto zibafasha muri siporo, ndetse n'igare ryifashishwa kugirango uyu mukino ugende.

Siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri aho abantu babiri bari gukora siporo. Umwe amaguru yombi ari hasi undi ukuguru kumwe kure mu kirere. Bambaye iniforume zitandukanye aho umwe yambaye ipantaro, undi akambara ikabutura.

Abakinnyi bakina basikete ari batatu, babiri muri bo bararwanira umupira, kandi buri wese yifuza ko yabona umupira agatsinda.

Siporo yo mu buryo bwa tenisi, yoroshye kuyikina kandi ntisaba imbaraga nyinshi. Uyu mukobwa arakina neza kandi aritegereza aho aza kumarika kugira ngo umukino uze kugenda neza.

Siporo yo mu bwoko bwa tenisi, aho uyikina yambaye imyenda ya siporo, ikabutura n'agashati, tukaba turi mu bwoko bw'ubururu, hanyuma agashati kakaba umuhondo, afite agakoresho kamufasha gukina iyi tenisi.

Abakora siporo mu buryo bw'amagare, bakoresheje igare bambaye imyenda ya siporo ibafasha kugera mu cyerekezo bagiyemo kandi vuba n'amarineti abarinda umuyaga mu maso.

Abakinnyi muburyo bwa siporo, izwi nkumupira wamaguru cyangwa futuboro, umwe yambaye imyenda yumuhondo, ubururu, n'icyatsi kibisi ya numero kane, undi y'ambaye ikabutura y'icyatsi kibisi n'umupira w'umutuku, iriho numero cumi na rimwe.

Siporo yo mu bwoko bw'amarato aho abantu birukanka basiganwa ku izina ryitwa marato asiganirwa guhabwa igihembo cy'umuntu wahize abandi mu gihe yaba ageze aho yateganirijwe cyangwa ahateganijwe nka indi powenti.

Umukinnyi uri mu myitozo mu bwoko bwa basiketi yambaye imyenda ya siporo ikabutura y'ubururu ,umupira n'isengeri by'umuhondo afite numero rimwe ari ku mucanga ameze neza bigaragara ko siporo yagenze neza.

Imyitozo ngororamubiri aho abayikoze bari gushimirwa kuko batsinze, kandi bagahiga abandi. Bambaye imyenda ya siporo: amakabutura n'amashati bibafasha gukora siporo neza, kandi mu buryo butabagoye.

Inzu zigezweho zubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho inzu igeretse, imbere yayo hakaba hari pisine, ni ahantu umuntu yogera igihe yumva akeneye kuruhuka. Imbere y'iyo pisine hari ibiti bizana umwuka mwiza.

Umukobwa cyangwa se umudamu, uri gukina umukino wa tenisi; akoresheje agakoresho kifashishwa mu gukina tenisi gafata boro. Ikinwa muri uyu mukino akaba ari umuntu w'umu siporutifu cyane.

Isiganwa ry'amagare aho abasiganwa baharanira kugera aho bagera, uhageze mbere agahabwa igihembo. Bakoresha igare, bakaba bambaye imyenda ibafasha gukora siporo, ndetse n'ingofero mu mitwe yabo.

Inzira igaragaza uruhande rw'umuhanda rw'abanyamaguru, aho rukoze mu rwego mu buryo bw'amapave, rutuma abagenda ku ruhande rw'umuhanda batandura cyangwa badasitara.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'abantu batandukanye ,aho hagaragara inzira y'abanyamaguru ku ruhande irimo abari kuyikoresha n'umuhanda na wo ukagira abawukoresha.

Umuhanda wa kaburimbo ujya muri karitsiye cyangwa mu mazu y'abaturage, hubatse amazu meza, afite ibipangu, nyuma y'amazu hakaba hari imikindo cyangwa ibiti by'ubwiza n'umurimbo, inzu zikaba zifite amashanyarazi.

Isoko rya Kinigi riparitsemo moto, rikabamo Kandi abacururizaho rikagaragaza amazu y'ubucuruzi ndetse na hangari. Ribasha gukoreshwa ibintu bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi.

Umuhanda wo mu giturage uri gukoreshwa n'abanyamaguru cyangwa se n'imodoka kugira ngo abantu urujya n'uruza, rubashe kugenda. Bave hamwe bajye ahandi mu cyerekezo bifuje kujyamo.